Icyapa kinini cyane, kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, handitseho amagambo menshi mu ibara ry'umutuku n'ubururu, hariho n'imbwa ifite ibara ry'umweru na kake.

Icyapa kinini cyane gifite ibara ry'umweru, icyatsi, ubururu n'umukara, kiriho abantu babiri, igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragara aho kiri kwamamaza.

Icyapa kinini cy'umweru n'umutuku n'umuhondo cyanditseho amagambo menshi, mu ibara ry'umukara, kiriho imodoka y'umukara n'umuntu utwaye moto.

Icyapa kinini kiriho abantu babiri, igitsina gabo n'igitsina gore batwaye imodoka, hejuru hari ijambo ryanditse buritamu n'ahandi, iyi wikendi birabera he, mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi ry'umweru ,n'amakaro y'umweru, irimo ibicuruzwa bitandukanye by'imyenda, harimo imipira y'umukara n'umweru, n'amakanzu y'umukara.

Mu iduka bacuruzamo imyenda, amashuka, n'ibindi bikoresho byose byakoreshwa mu rugo, harimo imyambaro, hakabamo n'ibikoresho byakoreshwa nk'imitako wahanika muri saro yawe, mu cyumba, kugira ngo inzu yawe ise neza.

Imodoka iparitse, ifite ibara ry'umweru n'umukara, imbere yayo hahagaze umuntu w'igitsina gabo, ufite icyapa kinini mu ntoki, cyanditseho a b k mu ibara ry'umukara.

Abantu babiri b'igitsina gabo bafite icyapa mu ntoki zabo cyanditseho, ABG Akagera motozi inyuma yabo hari ibimodoka bibiri binini bifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Igikoresho gikoreshwa mu gupurintinga amafaranga tumenyereye, kizwi nka Purinta, gikoreshwa mu mabanki na yo yabugenewe, harimo urugero nka Beka iragikoresha, bagikoresha barimo babara amafaranga kugira ngo bataza kujijwa.

Ibiganza bibiri, bifashe amafaranga menshi, ashushanyijeho umugabo, yanditseho igihumbi, hirya hari akamashini kabara amafaranga, gafite ibara ry'icyatsi, umukara, n'umutuku.

Amafaranga agendana ku mufuka ushobora guhura n'umuntu mu nzira ukamuhereza ukugura akantu uhuye na ko bari kuzunguza, apana kwishyura kuri telefone ko hari n'abantu batagira na terefone.

Inzu y'ubucuruzi, yubakishije amakaro y'umweru n'amatafari ahiye, harimo akabati karimo amajerekani y'umweru n'icyapa kinini cyanditseho Nyanza n'ikigega kinini cyanditseho Nyanza miriki. Biragaragara ko ari aho bacururiza amata.

Amandazi ari ku isahani ameze neza, afite ubwiza buri gukurura umuntu, kuburyo uyaririye rwose wahita wumva aryohewe nawe ukishima.

Urupapuro rw'umweru rw'inyemezabwishyu y'imisoro, rushushanyijeho akaziga k'icyatsi, harimo agaseke mo mu imbere n'isaka hirya handitse Rwanda reveni otoriti mu ibara ry'umukara.

Urupapuro tuzi nka rise cyangwa se inyemezabwishyu ihabwa umuntu wishyuye imisoro, iyo misoro ikaba yishyurwa muri Rwanda Reveni Otoriti.

Ibiganza by'abantu babiri batandukanye, bifite amafaranga atandukanye, amwe ushushanyijeho umugore yanditseho ijana, n'andi ashushanyijeho umugabo, biragaragara ko bari kuyahererekanya.

Amafaranga menshi cyane, ashushanyijeho umugabo, yanditseho ijana, afungishije akantu gafite ibara ry'umuhondo n'umweru, handitseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Umuntu w'igitsina gabo ufite inote mu ntoki ze zishushanyijeho umugabo wambaye amadarubindi, imwe yanditseho magana atanu indi yanditseho igihumbi.

Ibiganza bine bifite amafaranga mu ntoki zabo ashushanyijeho umugabo, yanditseho amafaranga ijana nandi yanditse igihumbi mu ntoki zabo. Biragaragara ko bari kuyahererekanya.

Inzu nziza yubakishije amakaro y'umweru, isize irange ry'ubururu, ifite amadarage, hateretsemo intebe za shokora n'ameza ya shokora, hateretseho ibirahure, byo kunyweramo amazi.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo tw'umweru n'umukara, hirya yayo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye, n'inzu nziza igeretse, isize irangi ry'ubururu n'umuhondo.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari ahantu bafatira ibyo kurya, hari ameza ariho ibitambaro by'umweru n'intebe z'umukara hariho ibirahure, amasahani n'ibiyiko byo kurisha.

Inzu yubakishije amakaro, isize irange ry'umweru, hariho ibyapa byinshi, hariho n'icyapa gishushanyijeho inka zisa umweru n'umukara ziri kurisha.

Inzu nini cyane nziza kandi igereretse isize irange ry'umweru ifite ibyapa bitandukanye, kiriho umweru n'umutuku cyanditseho Sonarwa genero Kimironko buranshi mu ibara ry'umweru.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amakaro y'umweru n'umukara, ifite parafo y'umweru irimo n'amatara ari kwaka, isize irange ry'umweru, handitse Sanilamu mu magambo y'ubururu.

Inzu nini kandi nziza, isize irangi ry'ubururu n'umuhondo, hariho ibyapa byinshi, byanditseho kopedu Kabuga buranshi mu ibara ry'ubururu.

Mu isoko ririmo inyanya, intoryi, pavuro, karoti, ibitunguru, imiteja, harimo n'abacuruzi bashinzwe gutanga ibyo bicuruzi ku baguzi.

Mu isoko harimo abantu benshi, igitsina gabo, igitsina gore, harimo ibicuruzwa bitandukanye inyanya, ibitunguru, indimu, amavuta, mayoneze n'ibindi byinshi.

Mu isoko harimo ibiribwa, hakabamo ababicuruza, tubonamo ibintu byinshi bitandukanye ugiye guhaha ibirungo wateka mu biryo bigatuma ibiryo biryoha.

Abantu benshi harimo igitsina gabo, n'igitsina gore, biragaragara ko bari mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye harimo: Ibitoki, n'ibindi byinshi. Harimo n'abantu bambaye imyenda y'umuhondo benshi.

Akazu k'umuhondo kanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara, ka sosiyete ya MTN, karimo umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'umuhondo, utanga serivisi zo kubitsa no kubikuza, hirya hari inzu isize irange ry'umutuku, yanditseho Eyateli.

Inzu nziza y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'abantu batatu b'igitsina gore, umwe wicaye ari guha serivisi, abo basa nkaho bavuye guhaha.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara wicaye ku igare, inyuma ye hari abandi b'igitsina gore bari mu mutaka w'umuhondo wa sosiyete ya Emutiyene, bari kwaka serivisi yo kubikuza no kubitsa.

Abakozi ba Mobile money barimo baramamaza ibikorwa bikorerwa MTN bitangwa n'abakozi bayo kugirango zitanga serivisi nziza

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi, ari impande ya moto ifite igikapu inyuma cy'icyatsi cyanditseho vuba, imbere yawo hari n'icyapa kinini cyanditseho Bugarama mu ibara ry'umweru.

Puratifomu yamamaza ibicuruzwa runaka baba bafite nk'urugero Rwanda economike webusiyite risite harimo ibintu byinshi bafite, umuntu iyo agiye gushopinga aramanza agasura ino puratifomu akabona buri kimwe cyose kiba muri kampani yabo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umutuku, utwaye moto, inyuma hari igikapu gifite ibara ry'umuhondo na oranje, hirya hari ibiti bitandukanye.

Umugabo arimo aririkodinga, aramamaza ibikorwa bye runaka yaba akora nka serivisi atanga, arimo no kwifata amashusho kugira ngo ubasha kubibona aze kubona amakuru arambuye agendanye n'iyo serivisi arimo aramamaza.

Inzu nini kandi nziza igeretse, ifite igipangu gisize irangi ry'ubururu n'umuhondo, n'urugi runini rusize irangi ry'umukara, biragaragara ko ikodeshwa.

Icyumba kinini cyane kandi cyiza cyubakishije amakaro, harimo igitanda cya shokora, gishashe amashuka y'umweru, gifite n'imisego ibiri y'umweru, hariho isume y'umuhondo, gifite n'amarido meza.

Inzu nini cyane kandi nziza, isize amarangi y'umweru n'igitaka, ifite igipangu cy'umuhondo n'urugi rusize ibara ry'ubururu bwijimye, biragaragara ko ikodeshwa, iherereye Kigali Kanombe.

Inzu nziza kandi igeretse, isize irangi ry'umweru, ifite n'ibirahure, hanze hateye ubusitani bwiza, hateye n'ibiti by'ubwoko bw'imikindo.

Inzu nini cyane kandi nziza ifite amabati y'umutuku, isize irangi ry'igitaka, yanditseho Remera hawuzi, foru renti rimwe bedi rumu, rimwe washirumu, insayidi modo kiceni.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'umuntu w'igitsina gore waje guhaha ufite anvirope mu ntoki uri guhaha ibitunguru, inyanya n'ibindi byinshi.

Inzu nziza y'ubucuruzi yubakishije amakaro irimo ibicuruzwa bitandukanye: ibisukuti, amaji n'ibindi byinshi. Harimo n'abantu babiri: uw'igitsina gabo n'uw'igitsina gore bambaye imipira y'umweru bigaragara ko hari ugura n'ugurisha.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye by'inzoga ziri mu macupa icyatsi, umuhondo, umutuku n'izindi nyinshi, hari n'icyapa kinini cy'icyatsi cyanditseho jamusoni mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, yubakishijwemo amakaro, irimo ibicuruzwa bitandukanye bipanze mu tubati, harimo mayoneze, amafu y'igikoma n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Supa maketi dufitemo amakokombure, amapavuro n'ibindi bintu bikenewe mu rugo mu gikoni wakoresha wifashisha kugira ngo uteke neza, umuntu yaje kubihaha.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro, harimo n'amatara ari kwaka, harimo abantu babiri igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragara ko bari gufata ibicuruzwa bitandukanye.